Umugabo wambaye amarinete, kositimu y'umukara, karuvatiy 'ubururu ndetse n'ishati y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'agatute kandiditseho Nyagatare investment forum aho yari yitabiriye inama yari yahurije hamwe ikigo cy'igihugu gishinzwe gutsura amajyambere mu Rwanda RDB ndetse n'abikorera bo mu karere ka Nyagatare, bigira hamwe uburyo bashora imari muri iki kigo ibyo bigateza imbere igihugu ndetse nabo ubwabo bitabasize.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama. Bicaye bazengurutse ameza ateguyeho ibitambaro by'umukara, imbere ya bo hateretse uducupa turimo amazi ndetse n'impapuro nyinshi cyane. Bakurikiye imbwirwarume iri gutangwa n'umwe mu bayobozi batumije iyi nama.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta, bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, bungurana ibitekerezo ndetse bareba naho bageze bashyira mu bikorwa imihigo bihaye, bicaye bazengurutse ameza, afite ibara ry'ikigina ndetse n'umukara, imbere yabo hateretse mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse n'amakayi bari yo kwandikamo ingingo nyamukuru zaganiriweho muri iyi nama.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama baganira ku ngingo zitandukanye zigamije iterambere ry'umuturage agira uruhare mu bimukorerwa, bicaye neza mu ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru, hateretse uducupa tw'amazi ndetse bafite n'impapuro bari kwandikaho ingingo nyamukuru zaganiriweho.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, bicaye neza bateze amatwi imbwirwa ruhame irimo gutangwa n'umwe mu bayobozi babatumije, aho kandi bemerewe gutanga ibitekerezo ndetse bakanungurana ibitekerezo, barebera hamwe niba koko ingingo zavuzweho zavuzwe neza ndetse zashyizwe mu bikorwa nkuko bikwiye.

Abayobozi batandukanye mu nzego za leta bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama baganira ku ngingo zitandukanye, imbere yabo hari ameza ateguyeho ibitambaro bifite ibara ry'umweru, hateretse kandi uducupa tw'amazi ndetse bafite n'amakayi barimo kwandikamo ingingo nyamukuru zaganiriweho, bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi urimo kubagezaho igitekerezo cye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta biganjemo rubyiruko, bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye. Bose bicaye neza ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari ameza ndetse bafite n'uducupa tw'amazi barimo kwifashisha mu gihe bakurikiye inama.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta, aho bahuriye mu nama n'abikorera ndetse n'abakora imiryango itegamiye kuri Leta, mu nama baganira ku ngingo zitandukanye. Bicaye bakurikiye imbwirwaruhame y'umwe mu bayobozi urimo gutanga ikaze ku bitabiriye iyi nama.

Urubyiruko rwateraniye hamwe mu cyumba cy'inama biga ku ngingo zitandukanye. Bambaye imipira ifite ibara ry'umukara iriho ibirango bigaragaza inama bitabiriye. Aho umwe muri bo ahagaze afite indangururamajwi arimo gutanga igitekerezo cye cy'icyo yumva cyakorwa kugira ngo intego bihaye zigerweho.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, bungurana ibitekerezo bareba icyakorwa kugira ngo iterambere ry'umuturage ryihutishwe kandi nawe ababigizemo uruhare, imbere yabo hari mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse n'ibitabo barimo kwandikamo ingingo nyamukuru zaganiriweho.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta, bitabiriye inama yabahuje kugira ngo bungurane ibitekerezo ndetse barebe n'icyakorwa kugira ngo iterambere ry'umuturage ryihutishwe, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umukara n'umweru ndetse hateretse n'uducupa tw'amazi, bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, bitabiriye inama ibahuza n'abafatanyabikorwa mu nzego zitandukanye, bicaye imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umukara, hateretse kandi uducupa tw'amazi barimo kwifashisha, hari kandi n'umwe wicaye imbere uri gusoma igitabo gifite ibara ry'icyatsi.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bitabiriye inama y'abahuje hamwe mu cyumba cy'inama abenshi bambaye imyambaro itandukanye ndetse bafite n'amakarita mu gatuza agaragaza ko bitabiriye inama bakurikiye imbwirwaruhame irimo gutangwa n'umwe mu bayobozi abaha ikaze mu nama ndetse anababwira imirongo migari bagiye kuganiraho.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ndetse n'abaturage, aho barimo kuganira bungurana ibitekerezo, barebera hamwe ibyazashyirwa mu mwaka w'imihigo, bityo ngo bizagenerwe ingengo y'imari, abaturage batanga ibitekerezo by'ibyo bumva byakorwa, imbere yabo kandi hari uducupa tw'amazi ndetse bafite n'impapuro, barimo kwandikaho ingingo nyamukuru zavugiwe muri iyi nama.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta ndetse n'abashoramari bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama kugira ngo bungurane ibitekerezo, imbere haragaragara abayobozi bane barimo kungurana ibitekerezo ndetse bunumva inyunganizi za bagenzi babo babakurikiye, bicaye neza ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari insakazamashusho nini ku batabasha kureba imbere kugira ngo bakurikire ibiri kubera.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye za leta aho barimo kuganira ibitekerezo ndetse banarebera hamwe aho bageze bashyira mu bikorwako bari bihaye hagaragara abayobozi bicaye ku meza imbere hari igitambaro cy'umweru imbere yabo kandi hari udupapuro tugaragaza amazina ya buri muntu ndetse n'urwego ahagarariye.

Urubyiruko rwahuriye hamwe mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo ndetse banaganira n'abayobozi babo harebwa uruhare rwabo mu kuzamura iterambere ry'igihugu, cyane ko ari bo mbaraga z'igihugu kandi zubaka, umwe muri bo yahagurutse afite indangururamajwi mu ntoki arimo gutanga igitekerezo cy'icyo yumva cyakorwa ndetse anagira inama urubyiruko rugenzi rwe.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, aho bitabiriye inama, mu cyumba cy'inama, bicaye bakikije ameza, aho baganira ku ngingo zitandukanye, harebwa uko barwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse ukaba n'umukora buri umwe mu bari bitabiriye iyi nama.

Icyumba cy'inama cyiza cyane gifite inkuta ziteye ibara ry'umukara, kiriho insakazamashusho, hateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'abaturage baganira bungurana ibitekerezo, bicaye neza ku ntebe z'umweru bakurikiye imbwirwaruhame irimo gutangwa n'umuyobozi ndetse n'amashusho agenda anyura hirya no hino ku nsakazamashusho ziri muri iki cyumba.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo, aho yarimo yifuriza Abanyarwanda bose by'umwihariko abakozi umunsi mwiza wahariwe umurimo, aho uyu munsi uba ngarukamwaka hizihizwa umunsi Mpuzamahanga wahariwe umurimo ndetse abakozi bahabwa agaciro kubwo ibikorwa bitandukanye bakora bigamije iterambere.

Umunara muremure cyane wubatswe n'ibyuma bifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ukaba ufite uruzitiro rukozwe n'ibyuma, iyi minara yifashishwa na sosiyete zitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda hirya no hino mu gihugu, mu kunoza serivisi zitanga hifashishijwe iyi minara, iri mu bice bitandukanye by'igihugu.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu cyatanzwe n'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kimenyesha abanyarwanda bose ndetse n'abasora kumenyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa ukodeshwa ugizwe n'amazu y'ibibanza n'ibindi.

Abakozi babiri bambaye ibikoresho byabugenewe ba sosiyete itanga serivise z'itumanaho mu Rwanda, barimo gufungura umuryango ubinjiza ahari umunara munini cyane ukozwe n'ibyuma bifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku aho bagiye kureba ibyangiritse ngo babisubize ku murongo, hanyuma abaturage bakomeze kugerwaho na serivise nziza z'itumanaho.

Inyubako itangirwamo serivise z'ibigo bitandukanye ahazwi nko ku bagenti, aho abakiriya babona serivisi zitandukanye zitangwa n'ibigo bidasabye ko bajya aho bikorera, ahubwo bagahabwa izo serivisi binyuze ku bagenti bari hirya no hino mu gihugu. Aha hakaba ari hamwe mu hatangirwa izo serivisi.

Inyubako irimo ibikoresho byinshi cyane by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, imashini zisohora impapuro n'ibindi, itangirwamo serivise zitandukanye. Aha ni ho abaturage bashakira serivise nko gushaka ibyangombwa bitandukanye, kwifotoza amafoto magufi ndetse n'ibindi byose bikenera ikoranabuhanga kandi ku giciro cyiza.

Abagabo batatu bambaye imipira y'ubururu, bahagaze imbere y'umunara w'ibyuma, ukoze n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, aho iyi minara yifashishwa mu kunoza serivisi z'itumanaho, inoza ihuzazira hirya no hino mu gihugu, ibi bikazamura imikorere myiza ya sosiyete zitanga serivisi z'itumanaho hirya no hino mu gihugu.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka mu Rwanda mu rwego rwo korohereza abaturarwanda ndetse n'abandi basaba serivisi muri kigo kubona serivisi bitagoye aho bifashisha telefone ngendanwa cyangwa mudasobwa mu gusaba bimwe na bimwe mu byangombwa bakeneye kuru rubuga bidasabye ko bakora urugendo bajyaho iki kigo gikorera.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, aho cyashishikarizaga abaturage bafite impano kuyoboka amarushanwa yari yateguwe n' iki kigo, ibi bikaba ari mu rwego rwo kwegereza serivisi abaturage, babasobanurira ndetse banahana amakuru ku mikorere y'ikigo ndetse hagamijwe iterambere ndetse n'imibereho myiza y'umuturage

Inyubako isize amarangi y'umweru iriho icyapa gifite ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru y'irembo ,ibi bigaragaza ko haratangirwa serivisi z'irembo nko gushaka ibyangombwa bitandukanye bitangwa mu nzego za leta umuntu atagiye aho izo nzego zikorera ahubwo akazisaba yifashije ikoranabuhanga anyuze ku rubuga rw'irembo.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, aho cyayoboraga abaso bose kibereka uko bamenyekanisha umusoro w'ipatante w'igihembwe cya mbere mu mwaka w'ihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu.

Icyapa cyamamaza cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu ginsura amajyambere RDB, aho cyamenyeshaga abaturarwanda bose babifitiye ubushobozi, ko kiri gutanga akazi ku myanya itandukanye, bityo ko abifuza kwapurayinga kuri iyo myanya, bakohereza ibyangombwa byabo banyuze ku rubuga rwari rwatanzwe kuri iritangazo.

Icyapa kiri mw’ibara ry'umweru cyanditseho amagambo mu mabara atandukanye nk'umukara, ubururu ndetse nandi kigaragaraho kandi ifoto y'umuntu uri gukanda kuri mudasobwa, cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro aho cyashishikarizaga abaturarwanda bose ndetse n'abasora muri rusange kumenyekanisha umusoro ku nyungu ku bwabo kugira ngo batazacibwa amande yiyongeraho igihe bavumbuwe bataramenyekanishije uwo musoro mu mari ya leta.

Umunara ukozwe n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ukikijwe n'uruzitiro rukoze mu byuma, iyi ikaba yifashishwa n'ibigo bitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda, kunoza serivisi bitanga hirya no hino mu gihugu, hifashishijwe iminara iboneka mu bice bitandukanye by'Igihugu.

Umunara muremure ukoze mu byuma bifite ibara ry'umutuku n'umweru, ukikijwe kandi n'uruzitiro rukozwe mu byuma rumanitseho ibitambaro byo mu ibara ry'umuhondo byanditsemo ijambo Emutiyene. Iki akaba ari ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda kandi gikomeye, aho gitanga kandi na serivisi zitandukanye nk'izo gufasha abantu kwishyurana, kugura amayinite n'izindi.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye, yaba ubucuruzi bw'ibiribwa, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi. Imbere y'izi nyubako hari imodoka iparitse, aho iruhande rwayo hari umutaka ukoreramo umuyejenti w'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho cya MTN, ahatangirwa serivisi zitandukanye nko kubitsa no kohereza amafaranga, n'izindi.

Amapoto yo ku muhanda wa kaburimbo afasheho amatara amuririka umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bigafasha muri serivisi z'ubwikorezi haba ubw'abantu n'ibintu mu gihe cya nijoro abantu bakomeza kugenda mu muhanda nta nkomyi, hamanitseho kandi ibyapa bitandukanye byamamaza ahagaragara icyapa cya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda rya eyateri Rwanda.

Ibikoresho bitandukanye bifite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, bigaragara ahatunganyirizwa amashanyarazi hirya no hino ku ngomero zitandukanye mu gihugu, umuriro w'amashanyarazi ukaba wifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere, harimo nko gukora imirimo ibyarira abayikora inyungu, nk'ubwogoshi, ubudozi, ububaji n'ibindi.

Kimwe mu byapa biri hirya no hino ku mihanda ya kaburimbo aho biyobora cyangwa bigaha amakuru abayobozi b'ibinyabiziga batandukanye ku mihanda bari kugendamo. Iki gifite umuzenguruko w'umutuku w'ubuso bw'umweru ndetse hashushanyijemo agasara mu ibara ry'umukara bimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko imbere gato hari ivuriro.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi, hagaragara icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ndetse cyanditsemo imibare, mirongo itandatu mu ibara ry'umukara aba ari kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose, bakoresha umuhanda ko umuvuduko ntarengwa ari kilometero mirongo itandatu ku isaha, muri uyu muhanda.

Amapironi manini akoze mu byuma afasheho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi. Aya akaba yifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu n'amashanyarazi kiyageza hirya no hino mu baturage, mu rwego rwo gutwara umuriro w'amashanyarazi mu buryo bworoshye agezwa ku baturage hirya no hino aho akenewe.

Ipironi rikoze mu byuma rifasheho insinga nyinshi zijya mu byerekezo bitandukanye ryifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu n'amashanyarazi rege mu bice bitandukanye by'igihugu kigeza umuriro mwiza ku batuye muri utu duce aho biteza imbere bakoresheje uyu muriro bakora ibikorwa by'iterambere bitandukanye.

Amapiloni akoze mu byuma yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, akurwa ku rugomero agenda yoherezwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo afashe abahatuye mu kwiteza imbere abakora ibikorwa bitandukanye bishamikiye ku muriro harimo nk'ubucuruzi, ubudozi, ubwogoshi, ubusudizi n'ibindi.

Abagabo benshi bambaye ibisarubeti bifite ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero z'ubwirinzi zifite ibara ry'umuhondo aho barimo guteranya ibyuma bigize urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi ibi bikora mu buryo kugira ngo utunganywe muri uru rugomero hanyuma woherezwa hirya no hino mu bice by'igihugu kugirango ngo ufashe abaturage babituye kuzamura iterambere ndetse n'imibereho byabo.

Inyubako ikoreramo ibitaro byo ku rwego rwa kaminuza bizwi nka CHUK, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma no gutanga imiti ku barwayi ndetse n'izindi serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, zihabwa abaza kuzishakira muri ibi bitaro.

Umwanya wagenewe guparikamo ibinyabiziga bitandukanye byaba iby'abakozi cyangwa se abakiriya baje gushaka serivisi z'ubuvuzi mu bitaro, ibitaro kandi bifite inyubako nziza zigezweho ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko kwisuzumisha, gutanga imiti ndetse n'ibindi.

Umumama wambaye ikoti rifite amabara atandukanye ari kuvugira kuri telefoni afite kandi mu ntoki ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutwara ibintu bitandukanye ndetse na teremusi ahagaze imbere y'ibitaro bya CHUB aho avuye gusura abarwayi muri ibi bitaro ibi bikazamura imibanire y'abaturage basurana hirya no hino ndetse banatabarana igihe bagize ibibazo.

Kwa muganga hatangirwagwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hari abaturage benshi baje gushaka serivisi z'ubuzima bamwe bahagaze abandi bicaye mu dutebe twagenewe gutegerezamo igihe umuntu ategereje guhabwa serivisi iruhande rwabo kandi hari imodoka zabugenewe mu gutanga ubutabazi bw'ibanze zizwi ku izina ry'imbangukiragutabara aho zifashishwa hatangwa ubutabazi bw'ibanze ku muntu ukeneye serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko gufata ibizamini, gusuzuma, gutanga imiti, hagaragara ibyapa bitandukanye biyobora abashaka serivisi bibereka ahakorerwa ibintu runaka cyangwa se uduce twagenewe gukorerwamo ubuvuzi ku bice runaka. Ahagaragara icyapa cyerekana ahakorerwa ubuvuzi bw'amaso ndetse bikayobora abakoresha ibitaro kumenya aho bajya gushakira serivisi.

Inyubako nini cyane ifite igisenge cy'umutuku, amadirishya y'umukara ndetse yubakishije amatafari ahiye. Iyi akaba ari inzu mberabyombi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye nk'amanama ndetse n'ibyo bikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane burimo pasiparume ndetse n'ibiti by'imikindo. Harimo kandi n'amatara manini amurika mu gihe cya n'ijoro bigakomeza gutanga ubwiza ndetse na serivisi zigakomeza nta nkomyi

Igitabo gikubiyemo amabwiriza ndetse n'ingingo zigenga sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda ya sonarwa, aho hagaragaramo ingingo zitandukanye zireba abanyamuryango ndetse n'abakiriya bashaka ubwishingizi muri iki kigo, ibi byose bikaba biba mu nyandiko bikabikwa mu bubiko bw'iki kigo kugira ngo bizagenderweho igihe habaye ubwumvikane cyangwa kutumvikana hagati y'impande zifite amasezerano n'iki kigo.

Inteko y'abaturage bahuriye ku kibuga imbere y'akagari kabo, imbere hari abunzi bambaye amakamba abaranga igihe bari mu kazi, bicaye imbere yabo hari ameza hari impapuro zitandukanye, aho bari kumvamva ikirego cy'umwe mu baturage arimo kubagezaho kugira ngo bamwunge na mugenzi we bagiranye amakimbirane.

Rumwe mu mpapuro zigize igazeti ya leta yasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ,iki akaba ari igitabo kiba gikubiyemo amategeko n'ibyaha mu rwanda ndetse n'ingingo zitandukanye zigenderwaho hayobora igihugu iyi ikaba ishyirwa hanze buri kwezi mu rwego rwo kumenyesha abaturage amategeko yavuguruwe ndetse n'ingingo nshya zaba zarongerewemo.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu ishati y'umweru ndetse na rinete, aho ari mu rukiko yunganirwa na mugenzi we nawe wambaye amarinete ndetse n'ikanzu y'abanyamategeko ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, aho barimo kwiregura ku birego bashinjwa batanga ingingo ndetse n'ibimenyetso bigaragaza uruhande rwabo.

Icyapa kiriho amafoto y'abantu batandukanye, bamwe muri bo bacishijemo udukubo, kigaragaza ko abo bantu basize bakoze ibyaha mu Rwanda bya Jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'igihumbi magana icyenda mirongo cyenda na kane, bityo ko bashakishwa kandi ko uwababona yahembwa miliyoni eshanu z'amadolari y'Amerika nk'igihembo.

Umuyobozi mu nzego z'umutekano ishami ry'igisirikare, aho ari mu mpuzankano yabugenewe, afashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda arimo kurahirira inshingano nshya yahawe muri iki kigo. Ibi bikaba bikorwa na buri muyobozi wese mu nzego za Leta uhawe inshingano nshya ko arahirira imbere y'abaturage ndetse na guverinoma, ko azubahiriza inshingano ahawe nk'uko amategeko abiteganya.

Umugabo munini wambaye kositimu y'ubururu, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu. Uyu akaba ari umuyobozi w'umujyi wa kigali, ubwo yarimo akora inshingano ze nyuma yo gushyirwaho na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame.

Abashinjacyaha bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama cyabahuje, kugira ngo bungurane ibitekerezo ndetse bibukiranye ingingo zibarenga n'amategeko abagenga mu kazi kabo ka buri munsi, bambaye impuzankano ibaranga igizwe n'ikanzu y'umukara ifite ibara ry'umweru ndetse banambaye udupfukamunwa bicaye bazengurutse ameza imbere yabo hari indangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Itorero ry'ababyinnyi ndetse n'abaririmbyi bashingiye cyane ku muco gakondo aho bafite icyapa ryanditseho ijambo inkiko gacaca iyi akaba ari gahunda yakoreshwaga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu rwego rwo kuburanisha abakoze ibyaha muri jenoside hirya no hino mu gihugu aho bashyirwaga imbere yimbaga y'abaturage bakabashinja ibyaha bakoze ndetse hagira ibinanirana bakoherezwa mu nkiko.

Abacamanza bambaye imyenda yabugenewe y'akazi igizwe n'ikanzu y'umukara ifite ibara ry'umweru, bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro nyinshi ndetse n'uducupa tw'amazi, bakurikiwe n'abari mu cyumba cy'iburanisha aho bari kumva impande zombi yaba urega ndetse n'uwiregura.

Paul rusesabagina yambaye agapfukamunwa k'umweru yicaye mu ntebe y'umukara ndetse yambaye impuzankano iranga abakurikiranyweho ibyaha bitandukanye afite registire ifite ibara ry'ubururu mu ntoki aho yari azanywe imbere y'urukiko kugira ngo aburane ku byaha bitandukanye ashinjwa yagizemo uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abashinjacyaha ndetse n'abacamanza aho bose bambaye imyambaro yabugenewe ,bari kwakira indahiro z'abashinjacyaha bashya binjiye muri uyu mwuga bambaye amakanzu y'umukara bamanitse akaboko ndetse bafashe ku ibendera ry'u Rwanda nk'abandi bose batangira imirimo runaka mu nzego za leta babanza gutanga indahiro yabo ko bazakora akazi kabo ndetse n'inshingano nk'uko amategeko abiteganya.

Umugabo wirabura wambaye umwenda w'abacamanza ugizwe n'ikanzu y'umutuku ifiteho ibara ry'umweru, imbere yambariyemo ishati ifite amabara ndetse na karuvati y'umutuku, bigaragare ko ari mu nshingano aho yiteguye kubahiriza amategeko ndetse n'amahame agenga umwuga akora w'ubucamanza.

Abakozi bashinzwe umutekano ishami rya polisi aho batwaye umugore wambaye ikanzu y'umukara ifite amabara y'umweru ndetse biteze n'igitambaro. Bari kumwe kandi n'umushinjacyaha inyuma yabo wambaye ikanzu y'umukara ndetse ifite akabara k'umweru nk'umwenda wabugenewe mu gihe ari mu nshingano, aho agiye kugezwa imbere y'ubutabera ngo yiregure ku byaha akurikiranyweho

Umukozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, yambaye impuzankano yabugenewe ahagaze iruhande rw'umuhanda mu kayira kagenewe abanyamaguru. Arimo kugenzura niba bakoresha umuhanda cyane cyane batwaye ibinyabiziga, niba bari kubahiriza amategeko agenga uyu mwuga ndetse hirindwa impanuka za hato na hato zaturuka mu kutayubahiriza.

Imodoka yifashishwa na polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe ubutabazi bw'ibanze yifashishwa mu kuzimya ahabaye impanuka z'inkongi z'umuriro. Imodoka ikaba itwara ibyuma kabuhariwe byifashishwa mu kuzimya iyo inkongi y'umuriro, hakoreshejwe umwuka uba uri imbere muri ibyo byuma. Ibi bigafasha polisi y'u Rwanda gutanga ubutabazi bwihuse aho bukenewe.

Ibikoresho bizwi nka kizimyamwoto, byifashishwa na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, ndetse binakoreshwa n'abandi bose bahuguriwe mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, igihe habaye impanuka y'inkongi y'umuriro. Aho ibi byuma byifitemo umwuka wagenewe kuzimya umuriro bityo bigatanga ubutabazi bw'ibanze. Ibi byuma bisangwa cyane ku nyubako zihuriramo abantu benshi, insengero, amashuri n'ahandi.

Abari n'abategarugori bitabiriye inama yo ku rwego rw'igihugu yabahuje n'abayobozi bo mu nzego zo hejuru, bahagurutse bari gushyiraho morari, imbere ya bo hari ameza ateguyeho ibitamararo by'umweru, hateretse kandi uducupa tw'amazi ndetse n'udukayi barimo kwandikamo ingingo zimwe na zimwe nyamukuru zaganiriweho muri iyi nama.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bahuriye mu cyumba cy'inama hamwe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo harebwe aho bageze bashyira mu bikorwa imihigo bihaye mu mwaka w'ingengo y'imari. Abayobozi bateraniye mu cyumba cy'inama kirimo ibikoresho bitandukanye aho imbere yabo hari imeza zigezweho ndetse n'indangururamajwi bifashisha mu gihe barimo gutanga ibitekerezo ,inyunganizi cyangwa se n'ijambo igihe biri ngombwa.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bari mu cyumba cy'itora, aho umwe yambaye ikositime y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, akaba ari gushyira urupapuro rwe ruriho umukandida yatoye mu gasanduku kabugenewe, aha akaba ari mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yambaye kositimu y'umukara, karuvati y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ubwo yari ari muri sitade Amahoro, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aje gutanga indahiro ye, yo kurahirira kuyobora igihugu ndetse no gufata inshingano nshya yari yatorewe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ikirangantego cy'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya polutike, aho kigizwe n'ibendera ry'u Rwanda, rishushanyije mu ikarita y'igihugu cy'u Rwanda. Aho bafite intego ya demokarasi mu bwumvikane n'ubwisanzure.

Abaturage bahuriye hamwe mu nteko rusange barimo kungurana ibitekerezo barebera hamwe ingingo zitandukanye zigamije iterambere ryabo ndetse no kuzamura imibereho myiza ,inyuma yabo hari kiyosike ya mtn ni ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu rwanda hakorera umukozi w'icyo kigo atanga serivisi zitandukanye hirya no hino ku baturage.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, yambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'agasengeri k'umutuku. Imbere ye hari ameza ateretseho ibendera ry'u Rwanda, ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu biro, aho arimo kuganira n'itangazamakuru, ababwira zimwe mu ngingo ngari bafite, bari kugenderaho mu mwaka w'ingengo y'imari.

Abantu benshi babyina, bishimye, bafite amadarapo ndetse banambaye imyenda iriho ibirango by'ishyaka riharanira demokarasi ndetse no kurengera ibidukikije rya Girini pati, barangajwe imbere na perezida w'iryo shyaka Frank Habineza, ubwo bari mu bikorwa byo kwiyamamaza, kuba uyu mukandida yayobora igihugu cy'u Rwanda, mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi ba leta mu nzego zitandukanye, aho bicaye neza bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umwe mu bayobozi, imbere ya buri muntu hateretse agacupa k'amazi ndetse afite n'indangururamajwi, yifashisha mu gihe ashaka gutanga igitekerezo ,inyunganizi cyangwa ari kubaza neza ibyo atumva.

Umugore wambaye ibitenge ufite imarete yicaye ku ntebe ikoze mu mbaho, imbere ye hari indangururamajwi, bigaragare ko ari gutanga imbwirwaruhame ku bantu bamukurikiye abagezaho ibitekerezo ndetse na bo bamuha inyunganizi ndetse n'ibibazo kubyo batumva neza.

Umugabo wambaye kositimu y'ubururu n'agapira k'umweru, imbere ye hateretse indangururamajwi aho ari kugeza imbwirwaruhame ku bamukurikiye, uyu ni Muhayimana Philippe ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza ku mwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda, mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, inyuma ye kandi hicaye abandi bantu bamuherekeje bari mu ishyaka rimwe.

Abaturage b'ingeri zose bahagaze batonze umurongo bitabiriye igikorwa cy'amatora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo batoraga umukuru w'igihugu, abaturage binjira mu cyumba cy'itora bagahabwa urupapuro rw'itora, hanyuma bakitiramo umukandida bashaka, hanyuma bagafata urupapuro batoreyeyo bakarushyira mu gasanduku kabugenewe, hanyuma amajwi akazabarwa nyuma y'igikorwa cy'amatora.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abayobozi mu nzego zitandukanye za leta, hagaragara umugabo wambaye ikositime y'umukara, karuvati y'ikijuju ndetse n'ishati y'umweru. yicaye imbere ye hari ameza ateretseho agacupa ndetse n'indangururamajwi yo kwifashisha mu gihe atanga igitekerezo cyangwa inyunganizi ku biba biri kuganirwa muri iyi nama.

Umugabo wambaye kositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku ndetse n'umugore wambaye imyenda isa, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse ariho n'indangururamajwi, aho bitabiriye inama, barimo batanga ibitekerezo, barebera hamwe icyakorwa kugira ngo iterambere ry'umuturage rize ku isonga.

Abayobozi mu nzego za leta zitandukanye bahuriye mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo, hagaragaramo abagabo ndetse n'abagore bicaye neza, imbere yabo hariameza akoze mu mbaho ndetse imbere ya buri wese hari indangururamajwi yifashisha mu gihe ari gutanga ibitekerezo, inyunganizi cyangwa uruhare we ahagazeho ku ngingo runaka.

Umugabo wambaye ikositime y'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara, imbere ye hateraretsetse indangururamajwi arimo gutanga imbwirwaruhame, uyu ni Philippe Mpayimana ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza, kuyobora igihugu cy'u Rwanda, mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abaturage b'ingeri zose yaba abagabo, abagore, urubyiruko ndetse n'abandi bagejeje imyaka yo gutora, aho bazindukiye ku cyumba cy'itora baje kwitorera umukandida ubabereye nyuma yo kumva imigabo n'imigambi y'abakandida batandukanye hirya no hino mu gihugu barimo kwiyamamaza. Aho baje ku cyumba cy'itora kwihitiramo umukandida bihitiyemo ubakwiriye ndetse unabanogeye, mu gikorwa cy'amatora cyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo yo mu bwoko bwa dayihatso iri kugenda muhanda wa kaburimbo ifite igisanduku kiriho ibirango by'uruganda rukora ibikoresho bitandukanye by'isuku ruzwi ku izina rya shayini. Aho rukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'amavuta, amasabune, shapo n'ibindi bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi uri kugendwamo n'umumotari ukora akazi ko gutwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa kigali ndetse no mu ntara abageza mu byerekezo bitandukanye iruhande rw'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane buwukikije ndetse n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro ibi byose bigatuma serivisi z'ingendo zikomeza mu gihe cya nijoro nta nkomyi.

Ibinyabiziga byo mu bwoko bwa moto byifashishwa mu gutwara abagenzi, bibajyana mu byerekezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu, biparitse hamwe mu mwanya wabugenewe, iruhande rw'ipoto ritwara umuriro w'amashanyarazi, aho ba nyiri ibinyabiziga bategereje abagenzi baha serivisi.

Mu muhanda wa kaburimbo hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka n'amagare bijya mu byerekezo bitandukanye. Iruhande rw'umuhanda kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru banyuramo mu gihe bakoresha umuhanda. Hagaragara kandi ipikipiki iparitse, bigaragara ko itegereje umugenzi itwara, imujyana mu cyerekezo icyo ari cyo cyose.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso yagenewe gutwara imizigo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi. Iruhande rw'umuhanda kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato zatezwa nabo bakoresha nabi umuhanda.

Umusore ufite ingorofani irimo imizigo itandukanye ndetse na mugenzi we uri kumukurura imbere bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aba bakaba ar'abakora umwuga wo kwisuka imizigo hirya no hino mu mujyi wa kigali ndetse no mu ntara aho bibagirira akamaro ndetse bikanafasha abakeneye serivisi mu mikorere yabo ya buri munsi.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi, haragaragara imodoka mu bwoko bwa dayihatsu yagenewe gutwara imizigo aho iriho icyapa cyamamaza cy'uruganda rukora ikinyobwa cyitwa uruvange. Iruhande rw'umuhanda kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda hirindwa impanuka.

Umuhanda munini wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye bitanga serivisi z'ubwikorezi yaba ubw'abantu n'ubw'ibintu, hagaragaramo imodoka ifite ibara ry'ubururu ndetse itwaye imizigo, inyuma yayo hari shitingi ifite ibara ry'ubururu, iruhande rw'umuhanda kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru bakoresha igi bakoresha umuhanda hirindwa ko bakora impanuka.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo mu masaha ya nijoro, iruhande rw'umuhanda hari amatara amurikira umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato, hari kandi n'akayira kagenewe abanyamaguru kari iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, mu rwego rwo kwirinda iyi mpanuka.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyurukamo n'ibinyabiziga mu byerekezo byombi, hagaragara ibinyabiziga birimo kubisikara byose byagenewe gutwara imizigo, iruhande rw'umuhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru, karimo kugendamo umugabo usunitse igare ririho ibintu bitandukanye, harimo ibitoki, ibirayi, amakarito, n'ibindi. Ibi bikoroshya serivise z'ubuhahirane ndetse n'ubucuruzi, hororoshye ingendo hifashishijwe ibinyabiziga nk'amagare.

Imodoka ebyiri zifite ibara ry'umweru, imwe itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, indi ari iy'umuntu ku giti cye, ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ugenderamo ibinyabiziga mu byerekezo byombi, iruhande rw'umuhanda hari inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye ndetse hari n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bigatuma serivisi y'ingendo ikomeza nta nkomyi.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga mu byerekezo byombi, urugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto itwara abagenzi ndetse na rifani yagenewe gutwara imizigo, iruhande rw'umuhanda kandi hari umuyoboro munini w'amazi, unyura mu mazi mu gihe cy'imvura, ibi bikarinda ko umuhanda wakangirizwa n'amazi y'imvura.

Icyanya cyagenewe guparikamo abayobozi b'ibinyabiziga, batwara abagenzi hirya no hino mu gihugu bakoresheje moto, aba akaba ari bamwe mu boroshya serivisi z'ingendo ndetse n'ubwikorezi, aho bafasha abantu bajya cyangwa bava mu kazi, bajyana hirya no hino, kandi nabo ubwabo bikabagirira akamaro, ko biteza imbere, ndetse bakanatanga umusoro, ibi bikazamura iterambere ry'igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi ahagaragara imodoka yagenewe gutwara imizigo nini izwi mu bwoko bwa kamyo aho zifashishwa cyane cyane mu gutwara ibicuruzwa bitandukanye byambukiranya igihugu hari kandi n'akayira kagenewe abanyamaguru kagaragazwa n'imirongo y'umweru ishushanywa hagati mu muhanda wa kaburimbo bityo ibinyabiziga bihageze biba bisabwa kugenda gake hanyuma abanyamaguru bakambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Imodoka ndende cyane ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'umuhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda, mu rwego rwo kwirinda ko bakora impanuka mu gihe bivanze n'ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo unyiramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi ugaragaramo imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu, yifashishwa mu gutwara imizigo, ifite igisanduku gifite ibara ry'umweru inyuma, iruhande rw'umuhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru kagaragaramo umugabo wikoreye umufuka munini cyane urimo kugenda muri aka kayira.

Imodoka nini cyane izwi nka bisi yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo, ifite ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'umukara, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo byombi, iruhande rw'umuhanda kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru bifashisha mu gihe bakoresha umuhanda.

urujya nuruza rw'ibinyabiziga mu muhanda wa kaburimbo wagenewe kunyurwamo ibinyabiziga mu byerekezo byombi hagaragara imodoka ebyiri zagenewe gutwara imizigo ziri kubisikana ndetse nyuma yazo hari abatwara abagenzi hifashishijwe amapikipiki iruhande rw'umuhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu bakoresha umuhanda munini wa kaburimbo n’ibinyabiziga mu byerekezo byombi ahagaragara imodoka mu bwoko bwa dayihatsu itwaye imizigo ibisikana n'abamotari ,iruhande rw'umuhanda kandi hari akayira kagenewe abanyamaguru hagaragaramo umusore wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru uri kugenda avugira kuri telefoni.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Icyanya cyagenewe guparikamo imodoka mu mujyi wa Kigali cyane cyane zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, haragaragara imodoka z'icyigo cya Sitera, gitanga serivisi y'ubwikorezi bw'abantu, cyibajyana hirya no hino mu ntara, iyi kompanyi itanga serivisi nziza aho ijyana abagenzi mu bice bitandukanye by'igihugu, itanga umusanzu wayo mu koroshya ubuhahiranire ndetse n'ubutwereranire hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'intara bituranye.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo kugenda rwagati mu mujyi wa kigali ahazwi nka car free zon ahakaba ari nta binyabiziga byemerewe kugendamo ahubwo abantu bagendamo n'amaguru gusa cyangwa se bagenda ku magare yabugenewe iyi akaba ari imwe muri gahunda za leta zigamije kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ndetse no gushishikariza abanyarwanda gukora siporo hirindwa indwara zitandura.

Igikorwa remezo kigizwe n'ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko uzwi nka voreboro, hari urubyiruko ruri gukina agapira mu ntoki ndetse iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane buzengurutse iki kibuga, hirya kandi hari inyubako ndende zifite igisenge cy'umutuku bigaragaye ko zakira abantu benshi bacumbika.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo gifite umuzenguruko w'u umweru ubuso bw'ubururu ndetse gishushanyijemo ibara ry'umweru n’umukara kimenyesha abayobozi b'inyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko imbere ari akayira kagenewe abanyamaguru bambukiramo bityo bakaba bagomba kugabanya umuvuduko mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Icyapa kiri ku muhanda wa kaburimbo gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru. Kiriho kandi umugabo ushushanyije mu ibara ry'umweru. Iki kikaba kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere hari akayira kagenewe abanyamaguru, bityo kogomba kugabanya umuvuduko mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, gishushanyijemo inyuguti ya P iciyemo akarongo n'ibara ry'umutuku, cyanditsemo amagambo mu ibara ry'umutuku, kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda, kibamenyesha ko nta mwanya wagenewe guparikwamo uhari.

Hirya no hino mu mihanda ya kaburimbo hagaragara ibyapa bitandukanye, biyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda, bibamenyesha amakuru ku mihanda bari kugendamo iki n’icyapa cy’umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru cyanditsemo amagambo mw’ibara ry'umukara, kimenyesha abayobozi, ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda kw’imbere gato hari ibikorwa byo kubaka bityo ko bagomba kugabanya umuvuduko birinda impanuka.

Hirya no hino ku mihanda ya kaburimbo ahagaragara ibyapa bitandukanye aho uyobora abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda bibamenyesha amakuru ku mihanda bari kugendamo ikindi cyapa gifite umuzenguruko muto ku buso bw'umweru ndetse hashushanyijemo ibara ry'umukara kumenyesha abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bakoresha umuhanda kumuhanda bari kugenderamo imbere gato unyuranaho nundi.

Rimwe mu masangano y'imihanda ya kaburimbo hagaragara abakora umwuga wo gutwara abagenzi kw’ipikipiki imihanda ikikishijwe n'ubusitani bwiza cyane bugizwe na pasiparume ndetse n'ibiti byiza by'imikindo iruhande rw'imihanda kandi hari utuyira twagenewe abanyamaguru hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya n’ijoro bityo ingero zigakomeza nta nkomyi.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, kigaragaramo amafoto y'abantu babiri bambuka. Ibi bikaba bimenyesha abayobozi b'umuhanda ndetse n'abandi bose bakoresha ibinyabiziga, ko imbere gato mu muhanda bari kugendamo, hari akayira kagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru. Bityo ko bagomba kugabanya umuvuduko, mu rwego rwo kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Icyapa kigaragara ku muhanda wa kaburimbo gifite umuzenguruko w'umukara ubuso bw'umweru ndetse cyanditsemo amagambo mu ibara ry'umukara kimenyesha abayobozi z'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko bageze mu karere ka bugesera bikaha amakuru abayobozi b'ibinyabiziga n'abandi bakoresha umuhanda ibi bikoroshya imitangire ya serivisi ndetse bakanamenya uko bayikoresha imihanda.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Remera hagaragara inyubako zitandukanye zubatswe hakurikijwe ibipimo bitangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imyubakire mu Rwanda, hari n'ubusitani bwinshi cyane ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo bizana umwuka mwiza ku batuye muri aka gace ndetse bikanakomeza kugaragaza ubwiza bw'umujyi.

Umwe mu mihanda ya kaburimbo iri mu mujyi wa kigali aho unyurwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye ibi bikaba mu rwego rwo koroshya ingendo ndetse na serivisi z'ubwikorezi iruhande rw'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane burimbisha umujyi hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro hirindwa impanuka za hato na hato mu muhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga mu muhanda rwagati wa kaburimbo mu Mujyi wa Kigali, aho abantu baba bajya gukora utuzi dutandukanye hirya no hino mu mujyi, hagaragara kandi akayira k'abanyamaguru kari iruhande rwa kaburimbo kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru hirindwa impanuka zo mu muhanda.

Agace gatuyemo abantu benshi mu bucucike hadakurikijwe ibipimo biranga imyubakire nk'uko itangwa n'ikigo cy'imyubakire mu Rwanda. Aha akaba ari mu mujyi wa kigali ahazwi nk'ingatovu iruhande rwaho hari ishyamba rinini cyane ndetse n'urutoki bigaragare ko ibikorwa by'ubuhinzi bikorwa ku batuye muri aka gace.

Ku muhanda wa kaburimbo ahagaragara amapoto ariho amatara yifashishwa mu gihe cya nijoro amurikira umuhanda kugira ngo umutekano waho ndetse na serivisi z'ingendo zikomeze aha kandi hifashishwa n'amakompanyi atandukanye mu kwamamaza ibikorwa byayo hifashishwa amafoto agenda amanikwaho ibyapa bigaragaza ubutumwa ibigo cyangwa amasosiyete ashaka kohereza abakiriya bayo.

Mu mujyi wa Kigali i Remera ahazwi nko ku cya bitsingi ahakorerwa ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kigaragaza ko inyubako ikorerwamo serivisi zo gutunganya umusaruro w'ibikomoka ku bworozi, ahazwi nk'ikusanyirizo ry'amata. Aho aborozi bagemura umusaruro wa bo hanyuma ukongererwa agaciro ndetse unakorwamo ibindi binyobwa bitandukanye.

Inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, hagati muri zo hanyura umuhanda munini nyabagendwa, ahagaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bajya gushaka serivisi zitandukanye z'ubucuruzi muri izi nyubako, ibi bikagaragaza iterambere ndetse n'imibereho myiza by'abatuye muri aka gace.

Amazu manini meza yubatse hakurikijwe ibipimo biranga imyubakire bitangwa n'ikigo cy'Igihugu cy'imyubakire mu Rwanda. Iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane bugizwe n'ibiti by'inganzamarumbo biri mu ibara ry'icyatsi. Ibi bigafasha mu kuzana umwuka mwiza mu mujyi ndetse no muri aya mazu by'umwihariko, ndetse bikanakomeza kugaragaza ubwiza bw'Umujyi wa Kigali muri rusange.

Amazu meza cyane y'ubatse hakurikijwe ibipimo cyatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imyubakire mu Rwanda ndetse kandi hanakurikizwa ibiri mu gishushanyo mbonera cy'inyubako zigomba kubakwa mu gace runaka arizo nyubako zituriye umuhanda ibikorwa remezo nk'amashuri n'amavuriro zikaba zigererwaho kandi n'amazi meza mu mashanyarazi ndetse n'ibindi by'ibanze nkenerwa.

Inyubako nyinshi zituye ku mudugudu hakurikijwe ibipimo byatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imyubakire ndetse by'umwihariko ku gishushanyo mbonera cyagenewe aka gace, hagaragara kandi n'ubusitani bwinshi bugaragara hagati y'amazu, ibi byose bikagaragaza ubwiza bw'imyubakire hirya no hino mu Rwanda.

Amasangano y'imihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Kigali aho imodoka zijya mu byerekezo bitandukanye zihurira. Hakaba hakikiwe n'ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti by'imikindo. Hari kandi n'amatara amurikira uyu muhanda mu gihe cya nijoro, bityo serivisi z'ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Mu mujyi wa kigali ahazwi nko ku kinamba hagaragara urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye aho hari umuhanda wa kaburimbo unyura hejuru y'indi ibi bikaba mu rwego rwo koroshya serivisi z'ingendo ndetse n'ubwikorezi hirindwa umuvundo uterwa n'ibinyabiziga bijya mu byerekezo bimwe bityo hifashishwa iyi mihanda ku binyabiziga bijya mu cyerekezo kimwe mu rwego rwo kugabanya uyu muvundo.

Amasangano y'umuhanda wa kaburimbo, uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, yaba moto, imodoka amagare ndetse n'ibindi binyura mu byerekezo byombi, iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane bukikije umuhanda, hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya n'ijoro, ibi bikagaragaza ubwiza bw'umuhanda ndetse n'iterambere ry'igihugu.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo ijya mu byerekezo bitandukanye, inyurwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo byombi, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane bugizwe na pasiparume ndetse n'ibiti binini by'inganzamarumbo, bigaragaza neza ubwiza bw'umujyi, hari kandi n'ibyapa biyobora abakoresha umuhanda ndetse n'abayobozi b'inyabiziga, bibamenyesha aho imihanda yerekeza ndetse n'ibikorwaremezo bahasanga.

Umuhanda wa kaburimbo ahazwi nko ku Kinamba ahari ikiraro kinyuraho imihanda ibiri igerekeranye, ibi bigafasha mu kugabanya urujya n'uruza ndetse n'akavuyo mu muhanda hagabanywa kandi n'ibyago by'impanuka, aho ibinyabiziga bijya mu byerekezo bimwe bikoresha umuhanda umwe n'ibijya mu bindi byerekezo bigakoresha undi muhanda.

Abakora umwuga wo gutwara abantu ku magare bazwi nk'abanyonzi baragaragara mu masangano y'umuhanda wa kaburimbo bakikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya n’ijoro kugira hirindwe impanuka za hato na hato zo mu muhanda.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo ijya mu byerekezo bitandukanye, hagaragara urujya n'uruza rw'abantu batwaye ibinyabiziga. Mu nkengero z'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bizwi nk'imikindo ndetse n'umucaca wa pasiparumo. Hari kandi n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro, ibi bigafasha mu kunoza ingendo amasaha y'igihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga mu byerekezo byombi hagaragaramo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga iruhande rw'umuhanda hari umwanya wagenewe guparikamo ibinyabiziga mu gihe bikuramo cg bifata abagenzi hari kandi n'akayira kagenewe abanyamaguru mu rwego rwo kwirinda impanuka impande y'umuhanda kandi hari ubusitani bwiza buwukikije ndetse n'amatara ahumurikira mu gihe cya n’ijoro.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo mu masangano y'imihanda ava mu byerekezo bitandukanye, haragaragara kandi imirongo ishushanyije mu muhanda yagenewe kwambukirwamo n'abanyamakuru bakoresha umuhanda wa kaburimbo, mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato.

Amasangano y'imihanda ahazwi nko muri rompuwe, hari amatara yabugenewe yifashishwa mu kuyobora ibinyabiziga mu bice bitandukanye hirya no hino azwi nka feruje. Hari kandi n'imirongo y'umweru yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru bakoresha imihanda ya kaburimbo. Ibi byose bikaba bigabanyije gukoresha neza umuhanda, hirindwa impanuka za hato na hato.